Inama yitabiriwe n'abantu barimo abayobozi b'igihugu bakuru barimo Umuvunyi uwahoza ari Umuvunyi mukuru Tito Rutaremara, bafite impapuro n'amakaramu yo kwandika ibintu bimwe na bimwe mu byo bari bwumvire muri iyi nama.

Ikibuga kimenyereweho kwigishirizwamo gutwara ibinyabiziga harimo abantu benshi batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye hakaba harimo abapolisi babiri bari mu mpuzankano zabo baje gukoresha ibizamini byo gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga ndetse imbere y'umwe muri abo bapolisi harimo abantu bicaye kuri moto.

Ishuri ry'abantu barimo kwiga, umwarimu ari imbere yahagurukije umwe amubaza nawe ahagurutse ngo amuhe ibisubizo by'ikibazo yari arimo kumubaza, abandi bose bicaye bateze amatwi icyo mugenzi wabo ari busubize mwarimu yamubajije.

Abapolisi bakomeye bari kumwe n'umucamanza mukuru harimo minisitiri w'intebe n'abasirikare bakomeye bo ku rwego rwo hejuru rw'igihugu cy'u rwanda n'ikirangantego cy'ubutabera bw'igihugu.

Imfungwa iri kumwe n'abashinzwe kubiyicungira umutekano, yambaye amapingu ivuye cyangwa ugiye kuburana, iri iruhande rw'imodoka y'abayobora amagereza, bashinzwe gutwaramo imfungwa n'abagororwa.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Igikorwaremezo cya hoteli kirimo intebe zibajwe mu mbaho ndetse n'imeza zibajwe mu mbaho, imbere hariho utubati ducururizwamo amacupa y'inzoga, ndetse n'ububiko bukonjesha bw'ibyo byo kunywa.

Ni isoko ryiza hasi risashe amakaro hejuru hari parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'ibicuruzwa bubatse akayetajeri ko mu biti ku buryo usanga buri gicuruzwa gipanze mu mwanya wacyo.

Imodoka nziza ya tagisi vuwatire akaba ari imodoka y'umweru irimo akarongo k'umuhondo, ifite amapine ane, hirya yayo hari abamotari batatu batwaye abagenzi hirya yabo kandi nan nonene hakaba hari umumama uri kureba muri telefone, iruhande rwe hakaba hubakiye bigaragara ko hari ibikorwa bijyanye n'ubwubatsi biri kuhakorerwa.

imi y'modoka ishashemo amapave haparitse imodoka nyinshi n'indi imwe irimo kuza ishakisha aho iparirika kugirango nayo iparikwe aho nga muri iyo parikingi yabugenewe, ni imodoka nyinshi zirenga icumi iyo nayo ije ishakisha aho ishobora kubona umwanya.

Umuhanda unyura hagati y'amazu ahantu hari abamotari na moto zabo n'abandi basore bacuruza ibintu by'ubuzunguzayi, burimo inkweto n'ibindi bi bikapu bafite birimo ibyo bagenda bacuruza mu muhanda.

Ashi yo guturwamo akikijwe n'ibiti byinshi by'imbuto n'ibindi bisanzwe byo kubaha umwuka wo guhumeka, harimo n'andi mazu maremare y'inganda ashinzwe guha abo bantu batuye muri ako gace, ibintu biciriritse byo gukoresha n'ibyo kurya.